Byagaragaye ko gutera ibigori atari byo byerekana ko uzasarura neza ahubwo ugomba no kubikurikirana bikiri bito kugeza bikuze ubitera imiti.

Ni byiza kwita ku bigori tukaba twabitera imiti kugira ngo bikure neza, tubirinda nkongwa kubera ko iyo zigeze mu bigori, zirabyangiza cyane bigatuma umusaruro wacu tuwubura.

Abantu benshi bakunze kubura umusaruro bakabishyira y'uko ikirere kitabagendekeye neza, nyamara iyo ufashe ibihingwa byawe ukabyuhira ukabitera imiti yabugenewe ntushobora kugira icyo kibazo.

Burya igihe cyose siko kizahora tugikeneye nko kubahagwa imvura uko tuyikeneye n'izuba uko turikeneye, ahubwo tugomba gushyiraho n'uburyo bwo kuhira igihe imvura yabuze.

Umuhinzi wese agomba kwita ku bihingwa bye cyane cyane abitera umuti kugira ngo bikomeze bimere neza kubera ko hari udukoko tubijyamo tukaba twabyangiza iyo utabitera umuti.

Buri muntu wese aba azi uburyo bugiye butandukanye bwo kuhira imyaka hari abakoresha amapompo bapika hari n'abakoresha ibi bigezweho byo kuba wakuhira ukoresheje imirasire y'izuba buri wese uburyo yakuhiramo byose apfa kubikora kinyamwuga.

Niba ukora ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi, si byiza ko ubitererera iyo ngo bizikora, ahubwo ugomba kubyitaho buri munsi ukajya uza kuhasura, ndetse n'ibikorwa byose bihakenewe ukaba wabishyiramo.

Ubworozi bw'amafi, buba bwiza iyo ubukoreye ahantu uzajya uhora ugenzura ndetse ukabuha umwanya uhagije, wo kuwusura inshuro nyinshi kubera ko aribyo bituma bworoka kandi neza.

Iyo tumaze kuroba amafi tugomba kuyakorera isuku mbere yuko tuyateka ndetse tukayashyira ku murongo buri kimwe cyose, ariko ibi ntabwo bikorwa n'uwo ari we wese keretse ubizoberewemo.

Si buri muntu wese ugira amahirwe yo kuba yajya mu bwato cyane cyane agiye kuroba kubera ko ibi ngibi bikorwa gusa n'ababyigiye bakaba barize uburyo bagenda mu bwato ndetse bazi no kuroba.

Ahantu hari igishanga n'amazi menshi, hagomba kubungwabungwa kubera yuko bashobora gukoresha ayo mazi buhira cyangwa bakaba bashyiramo ubundi buhinzi butandukanye ndetse bakaba banakororeramo amafi.

Iyo abagabo bicaye hamwe bakajya inama y'ikintu bagiye gukora, nyuma bakaza kugishyira mu bikorwa, bakabona birimo biranagenda neza, birabashimisha kuko babikora bizihiwe.

Abantu bakora ubuhinzi ndetse bakaba banakora ubworozi bw'amafi, bikunze kubagirira akamaro kubera y'uko amafi ari mubiri bimwe bituma abantu babona amafaranga menshi kubera ko ahenze.

Si byiza ko buri wese aho abonye amazi magari agomba kumva ko yajya kuroba, kubera ko kuroba bikorwa gusa n'ababifitiye uburenganzira ndetse bakaba baranabyize.

Gufukura amariba yo gushyiramo amafi ukayororeramo ni bimwe mu bintu bikunze gutanga umusaruro cyane kubera yuko umuntu wabyize neza akiga uwo mushinga akabikora ntashobora guhomba na hato.

iyo ugeze ahantu ukahasanga ibyuzi utekereza ko hashobora kuba hakorerwa ubworozi bw'amafi kandi ubworozi bw'amafi ni bumwe mu bufite akamaro gakomeye cyane bukanakagirira abanyarwanda muri rusange.

Gusoroma icyayi bikorwa gusa n'inzobere si ibya buri wese ngo aragenda abisorome kubera ko bibamo ubuhanga umuntu uwo ari we wese utarabikoze atabasha kumenya. Ni byiza rero gukora ibyo wahuguriwe.

Umuntu wize iby'ubuhinzi agomba kuba azi icyo ubuhinzi ari cyo, akaba yajya abusura kenshi ibihingwa bye, akabikurikirana neza kandi ku gihe abonemo umusaruro yifuza.

Twamenye neza ko ikawa ari kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga menshi ndetse u Rwanda rukaba runayigurisha mu mahanga, rukakira amafaranga menshi cyane, bityo rero abaturage bashishikarizwa kuyihinga nyinshi.

Ku muhinzi wahinze icyayi ni we wakubwira ko icyayi kigira amafaranga ku bantu bagihinga, kandi niyo agiye kugisarura aba yishimye kubera yuko aba ari imbaraga ze yatakaje agihinga.

Ubuhinzi bw'umuceri bwagaragaye ko buri mu buhinzi bugira amafaranga menshi bityo rero abantu bamaze kumenya iryo banga, babuhinga bashyizeho umwete kugira ngo uwo musaruro uzabagereho.

Byakunze kugaragara ko abahinzi b'ibihingwa ngandurarugo cyane cyane birimo icyayi, bamenye ibanga ryuko icyayi kigurishwa no mu mahanga kikazanira Igihugu amafaranga menshi cyane, bityo babikorana imbaraga zose.

Iyo ugeze mu bishanga ukabona hatewe ibihingwa ngandurarugo nawe uhita ubona bisa neza, ukumva ko hari ingenzi kuba nawe wabigira kuko bibamo n'amafaranga menshi.

Abantu b'inzobere mu gusoroma icyayi no kugitera, aba ni bo bazi imvune zibibamo kubera yuko ari ibintu byoherezwa mu mahanga kandi bikaba byarakozwe n'Abanyarwanda ku giti cyabo.

Guhinga umuceri cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba, bigaragara ko ari ikintu bamaze guteraho imbere kubera ko bibaha umusaruro, amafaranga ndetse bakabaho banawurya.

Amiti baha amatungo si byiza ko umuntu wese ayinywa, kubera ko amatungo burya afite ubushobozi buruta ubw'abantu ushobora kunywa ino miti wowe ikaba yakwica.

Imiti y'amatungo ikoreshwa gusa ku matungo. Abantu nibabona ibi, bajye babibika kure kuko imiti y'amatungo magufi, hagize umwana uyiryaho, ishobora kumumerera nabi.

Iyo dufashe imiti iterwa amatungo tukayikoresha nabi bishobora gutuma ayo matungo agira ikibazo, kubera ko natwe mubusanzwe turabizi ko iyo tunyweye imiti myinshi yangiza umubiri wacu.

Niba ubonye ko umaze gukoresha imiti yawe umaze kuyiha amatungo, si byiza ko uyandagaza aho ubonye hose, ahubwo ugomba kuyijyana ahabugenewe ukayibika kugira ngo igumane ubuziranenge bwayo.

Abahinzi bagomba kuba bafite umuyobozi wabo, akajya abereka uburyo batera imyaka ku murongo kugira ngo bazabone umusaruro ukwiriye kandi na bo ni byiza ko babihugurirwa, bakajya bakora ibintu bazi.

Igihe cyose ubona ufite imizigo utashobora kwitwaza, ni byiza ko ushaka igare ukaba wayihambiraho kuko ryoroshya gutwara imizigo kandi rikaba ryatwara imizigo utakishoboza.

Iyo umworozi abona inka ye imeze neza, nta kitabura kumushimisha kubera ko umusaruro wose uba wavuye mu mbaraga ze, igihe yabikoreye, agomba kwishimira ibyo yagezeho.

Igihe cyose witaye ku matungo yawe haba hari ikizere ko nawe uzabona umusaruro wifuza. Iyo woroye inka neza ukaziha ubwatsi neza nawe ziguha umukamo mwinshi.

Iyo umworozi inka ye imaze kubyara, ashimishwa n'uko abona amata, yaba afite abana bagakura neza kubera ko umwana anyoye amata aba atandukanye n'utarigeze ayanywa.

Abahinzi ni bo bafata iya mbere mu guhinga neza ibihingwa byabo neza kandi bakabishyiramo ubwenge bwinshi kubera ko baba barabyize ndetse baranabikoze igihe kirekire.

Niba waramenye ibanga ryo gutera ibigori, ujye umenya uburyo bwiza ubiteramo kandi bikure neza, kandi niba utaranabumenya ujye wegera ababishinzwe babe bakwigisha kugira ngo babone umusaruro mwiza.

Ubuhinzi bw'amasaka byagaragaye cyane ko nabwo bwafashe indi ntera muri Nyagatare kubera yuko na bo bamenye ibanga ryabwo, basigaye babuhinga ku bwinshi.

Abantu bize iby'ubuhinzi ni bo bonyine bamenya kwita ku bihingwa byabo, kubera ko baba babifiteho n'ubumenyi bugiye butandukanye, iyo rero utabyigiye upfa kubikora mu buryo bwawe wishakiye.

Iyo ugeze mu matungo asa neza uhita utekereza ko aba yarashowemo imbaraga nyinshi kubera ko kugaburira amatungo atari ibintu byoroshye byakorwa na buri wese.

Gutera ibihingwa bisaba ubwitonzi n'ubushishozi ,kubera ko atari byiza gupfa gutera uko wiboneye ,ahubwo byakabaye byiza umuntu abanje gufata amahugurwa y'uko bikorwa ,hanyuma agakora ibyo azi nka muganga.

Bimwe mu bihingwa bikunze kugaragara mu Karere ka Nyagatare, twavugamo ibigori kubera ko ni ibihingwa bikunze kuhera ndetse bikanagemurirwa mu tundi turere tugiye dutandukanye.

Abanyarwanda ba kera bakundaga gutera ibiti by'amapapayi kubera ko bari baramenye ko amapapayi ari imbuto zishobora kubagirira akamaro mu mibiri yabo igihe bayafashe.

Inzuzi zororerwamo amafi zigomba kwitabwaho ndetse zikanarindwa abantu ba rushimusi bashobora kuba bakangiza ayo mafi akiri matoya bigatuma tutabona umusaruro nk'uwo twatekerezaga.

Byakunze kugaragara ko iyo uteye ibigori ntubikurikirane umunsi ku munsi bishobora gupfira mu murima ndetse n'ikigunda kikaba cyabirengera, bityo umusaruro wari ubyitezeho ntuwubone.

Abahanga bamenye neza ko imyumbati ari igihingwa kiryoha kandi uwakiriye ahorana imbaraga mu mubiri we, ni yo mpamvu bashishikarizwa gutera imyumbati kugira ngo izababere ibyokurya bikomeza imibiri yabo.

Iyo ibigori utabyitayeho ngo ubikorere buri kimwe bikeneye na byo nta musaruro bishobora kuguha, ariko iyo ikigori wacyitayeho neza kiguha umusaruro nawe wabireba ukabyishimira.

Iyo umuturage abona imyaka ye isa neza, biramushimisha, kubera ko iyo atekereje imbaraga yashoyemo akabona bibyara umusaruro ntashobora gucika intege ahubwo n'ubutaha arongera agahinga byinshi.

Ni byiza ko ibiribwa bitunganywa mu inganda, kugira ngo bisuzumwe ubuziranenge. Bibe byakoherezwa mu baturage, nabo babikoreshe byamaze gukorwamo ibindi byiza.

Abanyarwanda bakunze gutera ibiti by'amapapayi, kubera ko bari bazi ko izo mbuto zikenewe, cyane cyane iyo umuntu amaze kurya ibiryo bisanzwe akaba yarenzeho urubuto rw'ipapayi, umubiri we ukora neza.

Umuhinzi niwe wita ku bihingwa bye rimwe na rimwe akaba yakoresha imbaraga z'umurengera kubera yuko azi ko nyuma yaho ibyo yahingiye, agomba kubona umusaruro mwiza kandi umushimishije.

Ibice by'Iburasirazuba, Nyagatare, Ngoma ndetse na Kirehe, ukunda gusanga haterwa ingemu zeraraho ibitoki kubera ko iyi ntara, aricyo kintu cya mbere, izwiho.

Abantu biga ibijyanye n'amashyamba no kuyabungabunga, bagomba kunyuzamo bakajya bafata urugendoshuri bakanyuramo berekwa ibiti by'amoko atandukanye kugira ngo na byo babisobanukirwe.

Niba waramaze kumenya agaciro k'ishyamba ntukariteme uko wiboneye cyangwa ngo uryangize mu bundi buryo. Kubera ko iyo wamenya ko umwuka uhumeka uwukesha ishyamba nawe uraribungabunga.

Si byiza ko umuntu atura mu ishyamba kubera ko riba ryaragenewe gusa kuba ryadukururira imvura, ubwo rero uba wishyize mu kaga yuko inzu yawe ishobora kuzasenyuka isenywe n'imvura.

Ni kenshi tubwirwa gutema igiti kimwe tugatera bibiri kubera ko ishyamba rigira uruhare rukomeye cyane mu kuba twabona imvura kandi iyo tubitemye ibiti byose tukabimara bituma imvura iba nkeya.

Nubwo tubwirwa kenshi ko amashyamba agira akamaro gakomeye, si byiza ko na none dutura iruhande rwayo kubera yuko bishobora kudukururira ibibazo bikomeye cyane harimo nko kuba amazu yacu yasenyuka.

Nyuma yo kumenya ko amashyamba akurura imvura, agatanga ibiti byo kubaka, akaduha umwuka mwiza duhumeka, abaturage biyemeje kuyabungabunga kugira ngo ibyo byose ntihazagire na kimwe kivamo.

Ibidukikije ni kimwe mu bintu bigomba kurindwa n'umuturarwanda wese aha ava akagera, kugira ngo bikomeze kubungabunga ibidufatiye ubuzima bwacu, harimo nk'umwuka mwiza duhumeka.

Tugomba kwita ku bidukikije nk’Abanyarwanda twese kubera ko tuzi akamaro bitugirira, harimo nko kuba byatuma duhumeka umwuka mwiza, ndetse n'ibindi tutirengagije ibyo twese tuziranyeho.

Amashyamba mu Gihugu cy'u Rwanda akunze kubungwabungwa kubera ko aya mashyamba adukururira imvura ndetse si ni byo gusa ndetse akaba yaduha n'ibiti byo kubakisha.

Si byiza ko tujya mu ishyamba ry'inzitane kubera yuko rikunze kuba ririmo inyamaswa zishobora kutugirira nabi, tujye tubwira abana bacu ko atari byiza kuba barijyamo twe twamaze kubimenya.

Tujye tubungabunga amashyamba ntitugateme ibiti byose ngo tubimareho, kubera ko iyo utuye ahantu hatari amashyamba cyane cyane nk'inaha, usanga imvura yarabuze kubera ko ariyo ayikurura.

Ntako bisa nko kuba dufite amashyamba, dufite ibihingwa ndetse tunafite uruganda tubigemuramo igihe tumaze kubihinga bigatunganywa.

Iabahinzi bahinze ibyo bahinze bikera, bagomba kubijyana mu masoko cyangwa mu nganda bigatunganywa, nabo bagahabwa amafaranga kuko aricyo baba barabihingiye.

Umuhinzi ashimishwa no kubona ko ibyo yahinze byamuzaniye umusaruro, ariko nonene iyo uhinze ibintu ntubyiteho nawe ntuzakeke ko ari umusaruro uzabikuramo kuko umuntu asarura icyo yabibye.

Byakunze kugaragara ko ubuhinzi bw'ubutunguru, ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye ari bimwe mu bigira amafaranga. Niyo mpamvu abamenye iryo banga, babihinga kenshi kandi buri gihe.

Imbuto z'amoko yose ziba zikenewe kugira ngo umuntu ubuzima bwe bukomeze kugenda neza harimo nk'imineke, harimo n'ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo umuntu abifate umubiri we ugubwe neza.

Abantu bahinga amatunda bya kinyamwuga nibo bonyine bashobora kukubwira ukuntu bino bintu bituma batera imbere mu buryo bwihuse. Nyamara iyo ubikoze nabi nabyo byakuviramo igihombo mu buryo bwihuse.

Ni byiza ko igihe cyose umusaruro wacu umaze kwera tuwukusanyiriza hamwe, tukawujyana ku isoko, bakaba baduhamo amafaranga kubera yuko intego ya mbere aba ari ukubona amafaranga, iyo duhinga.

Ubuhinzi bw'amashuri burya bukenera imbaraga nyinshi, iyo uyakurikiranye ariko ukuhira neza kandi ku gihe, biguha umusaruro mwinshi ndetse n'amafaranga menshi.

Umuturage wamenye ibanga ry'ibigori, ntashobora kubihinga gutyo gusa. Ahubwo ashyiraho uburyo bwiza bwo kubyuhira kubera yuko byagaragaye ko i Nyagatare hano dukunze guhura n'izuba ryinshi, uburyo bwo kuhira burafasha cyane.

Ni byiza gufata ipompo yuhira igihe cyo wateye ibihingwa byawe ahantu hari izuba ugomba kubikurikirana ukabyuhira kugira ngo bikure neza.

Kuhira imyaka ntabwo ari ibintu biharirwa abagabo gusa, ngo ni uko aribo bagira imbaraga, ahubwo n'abagore bagomba gufata iya mbere mu kwita ku myaka yabo kugira ngo bazabone umusaruro mwiza.

Uburyo bwiza bugezweho bwo kuhira ni ugukoresha imoteri kugira ngo ibihingwa byawe ube wabyuhirira neza kandi buri munsi kuruta uko wajya udaha amazi ukayasuka ku bihingwa kuko bigoranye byo.

Niba umuntu ateye ibihingwa bye, agomba kubyitaho akabiyuhira buri munsi kugira ngo bikure neza kuko iyo igihingwa wakitayeho nacyo kiguha umusaruro wifuza.

Uburyo bwose bukenewe mu buhinzi nko kuhira ndetse n'ubundi bwo kwita ku murima wawe ndetse n'ibyo wahinze, ugomba kubikoresha niba ushaka koko umusaruro mwiza wi'byo wahinze.

Uburyo bwiza bwo kuhira, ni ukubikora kinyamwuga kubera ko gupfa kuhira uko wiboneye kose, bishobora gutuma imyaka yawe itagenda neza cyangwa ngo ikure neza, bityo umusaruro wari witeze ntuwubone.

Mu bishanga bihinga umuceri kenshi ukunze kuhasanga hari amariba yuhira iyo myaka kubera ko ntiwahinga mu gishanga, urambirije gusa ko ari imvura izeza ibyo bintu wahinze.

Ubuhinzi bw'inanasi burya nabwo bukenera kuhirwa kandi kenshi iyo utabwitayeho inanasi zishobora gupfa kandi umuntu aba yarazishoyemo igishoro gikomeye azitezeho inyungu runaka bikarangira atazibonye izo nyungu.

Igihe cyose duhinze ahantu hari ubutaka bukunze kuma, ni ukuvuga budakunze kubona imvura, ni byiza ko twuhira ubwo butaka kugira ngo imyaka yacu ikure kuko iyo utabikurikiranye, imyaka irapfa rwose ugasanga waruhiye ubusa.

Si byiza guhinga ahantu hari ubuhaname kubera y'uko iyo indoha ije itwara imyaka yacu bigatuma inzara itwica kandi bitari ibintu bikwiriye kubaho, ubwo tujye dushyiraho amasiteri kugira ngo twirinde n'isuri.

Abaturage Leta y'u Rwanda ibashishikariza kwimuka bakava ahantu ho mu manegeka bashobora guteza ibibazo ubuzima bwabo, bakajyanwa ahandi hashobora kuba ari heza ndetse ubuzima bwabo bakabukurikirana neza.

Iyo ugeze mu byaro uhasanga imihanda y'ibitaka nyamara mu migi ntushobora gupfa kuyibona kubera ko imihanda yose iba ari kaburimbo kandi ikoze neza, iyo imvura iguye mu byaro usanga byahaye ibyondo.

Si byiza gutura mu manegeka kandi tubishishikarizwa kenshi na leta, ahubwo tujye dutura ahantu tubona hatateza ubuzima bwacu akaga, tukava mu misozi kubera ko iyo haje indoha idutwarira ibintu, ikaba yadutwara n'ubuzima.

Ahantu hateye ibiti hagaragara ko hari imisozi miremire, si byiza ko abantu bahatura kuko na afatwa nko' mu manegeka burya. Rero tujye tumenya ibyo tubwirwa kandi tubyubahirize.

Ahantu hameze nko mu manegeka, iyo uhateye imyaka yawe, haba hari ikizere gike ko uzayisarura kubera yuko iyo imvura iguye isuri irayijyana yose ugasigara nta na kimwe.

Korora amatungo magufi cyane cyane nk'inkoko si ibya buri wese kubera ko iyo utabyigiye inkoko zigenda zipfa rusorongo ukikanga nta nimwe usigaranye kandi waratangiranye inkoko nyinshi.

Byagaragaye ko ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ubworozi bw'inkoko ari bumwe mu bworozi butanga umusaruro mu buryo bwihuse kandi bukaba bubamo n'amafaranga.

Korora inkoko bisaba ubushishozi kubera ko inkoko ziri mu matungo apfa vuba kandi akicwa n'ikibonetse cyose, rero iyo ari ibintu utigiye biragorana ugasanga wahombye aho kunguka.

Leta y'u Rwanda idushishikariza korora amatungo magufi kubera ko ariyo atanga umusaruro mu buryo bwihuse abantu babashije kuyorora nibo bakwihera ubuhamya.

Nyuma y'uko bigaragaye ko Nyagatare hahinga ibigori cyane, hafashwe umwanzuro wo kuba hashyirwaho ibyuma bisya ibyo bigori kugira ngo babone ifu ndetse n'iyo fu ikaba yagurishwa mu tundi turere.

Niba wagize igitekerezo cyo gutangiza umushinga wo korora inkoko, ugomba kureba neza ko ibyo uzakenera byose ubifite, harimo nk'ibikoresho bituma ubuvuzi bw'amatungo buzigeraho neza.

Kimwe mu bintu bikunze kugaragara i Nyagatare ni ubworozi bw'amatungo cyane cyane inka, kubera yuko bazigaburira, ndetse bakabona n'ibyo bazigaburira, ndetse bigatanga n'umusaruro kubera ko abana baho banywa amata cyane.

Ubuhinzi burya si ukujya mu murima gusa ugateramo ibintu, ahubwo na none ni ukumenya uburyo ibyo byo wahinze uzabihunika, kugira ngo bizagufashe mu gihe kiri imbere si mu muririma gusa.

Korora inkoko si ibya buri wese, ugomba kuba warabyize ndetse bikaba byiza unazi kuzivura kubera yuko inyinshi zikunze gupfa, nyamara abantu bazoroye ntibamenye icyazishe.

Umuntu wese ufite amatungo magufi cyangwa maremare, agomba kwita kuri ayo matungo kugira ngo ajye ayaha imiti igiye itandukanye, atabasha kuba yarwara.

Umuntu worora amatungo magufi wese, agomba kuyitaho, kubera ko atanga umusaruro ugiye utandukanye, kandi n'amafaranga aba ari menshi ku muntu wabikoze neza, kandi akabikurikirana.

Ntushobora gutega ko uzabona umusaruro mwiza uvuye ku nka, igihe utayikurikiranye ngo ube wayiha ibyo ikeneye byose birimo nko kugaburirwa neza.

Abahinzi b'indabyo gusa n'ibindi bihingwa bitandukanye nibo bamenya uburyo bayiteramo kugira ngo zizere nk'uko babishaka kubera ko baba barabyigiye ntabwo ari buri wese wabyishoramo.

Ni byiza gushishoza mbere yuko dukora ikintu ndetse tukajya inama y'uburyo turi bugikore mu matsinda kugira ngo icyo kintu twizere ubuziranenge bwacyo kandi nitugikora kize kuba kiza kuko twakigiyeho inama.

Mbere yuko ibiti ndetse n'ibindi bihingwa biterwa bigomba kubanza guhumbikwa, nyuma bakazabikuramo mu mashashi yabyo babijyana kubitera kandi mu buryo bwiza.

Muganga w'amatungo agomba kuba afite ibikoresho byabugenewe ndetse akaba afite n'amasomo ahagije n'ubumenyi buhagije kuri uwo mwuga akora wa buri munsi.

Umukozi wenyine wabyigiye ari we twita veterineri uvura amatungo, ni we wenyine ugomba kuba yavura amatungo yacu ndetse agatanga n'uburenganzira ku matungo yipfushije, niba ari buribwe cyangwa ari buhambwe.

Iyo bagiye gutera inka amaherena, bazishyira mu kazu gatoya ku buryo zitashobora kwihindukiza, hanyuma bakaba bakoresha ibikoresho byabugenewe bazitera ayo maherena.

Iyi inka yacu yagize ikibazo, dukunze guhamagara muganga w'amatungo, akaba ari we ugenzura neza ikibazo inka ifite, akaba yayivura kubera ko, aba yarabyigiye kandi abizoberewemo.

Kenshi dushishikarizwa ko abize ubuganga bw'amatungo, ari bo bonyine bagomba kuvura amatungo. Abaturage bose bashishikarizwa ko iyo ngamba bazikurikiza kugira ngo bite kuri ibyo inka zabo zikomeze kubaho neza.

Umuganga w'amatungo burya nawe aba afite ubumenyi buhambaye ku byo yize, kubera ko burya umuntu uvura amatungo, aba ashobora kuba yamenya n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye ayo matungo arwara.

Dukunze gushimishwa no korora inka z'amahembe maremare kubera y'uko izi ngizi kuzorora ari ibintu byoroshye cyane ndetse no kuba twazijyana mu mafamu zikarisha bituma zikura neza zigatanga umusaruro twifuza.

Nyuma yo kumenya ko i Nyagatare hari ubworozi bwinshi bw'amatungo cyane cyane inka, bamenye neza ko umukamo ari mwiza ku bana ndetse ubu basigaye banayagemurira n'abandi ahatabasha kugera ayo mata hakagerwa binyuze mu kuyanyuzwa mu nganda bakayakora neza.

Iyo ugeze muri pariki national uhasanga inyamaswa z'ubwoko butandukanye cyane cyane biba byiza iyo tuhatembereje abana bato kuko ari bo bakunda kwihera ijisho aya matungo.

Iyo ugeze muri pariki z'igihugu, ukunze kuhasanga inyamaswa cyane cyane zikurura ba mukerarugendo, zisa neza kubera ko izo nyamaswa ziba ziboneka ahantu hake.

Ntushobora kubona inyamaswa zirimo agasumbashyamba, inzovu ndetse n'intare, utigereye muri pariki y'igihugu kubera ko izi ni ho zibarizwa gusa, ntushobora kuzibona ahandi hatari aho nkubwiye.

Zimwe mu nyamaswa ziba ziturije kandi zigira n'amahane harimo n'ingwe burya kubera ko ingwe ishobora kuba ari inyamaswa y'inkazi ariko na none iyo utayendereje iba ari inyamahoro.

Iyo ugeze muri pariki y'Akagera, uhasanga ibitaragwe kubera ko ari inyamaswa idakunze kuboneka aho ari ho hose no kuba wayisura bisaba kuba uri kumwe n'umuyobozi ushinzwe inyamaswa akakugezayo.

Biba biteye agahinda ndetse binababaje kubona intare irya izindi nyamaswa mu ishyamba, nyamara izi nyamaswa na zo zagakwiye kubungabungwa kubera ko ubuzima bwazo buri mu bintu bikurura ba mukerarugendo baza kuzireba, nyamara ugasanga intare zibaye iza mbere mu kwangiza ubuzima bwazo.

Inyamaswa z'agasozi ntabwo ari inyamaswa zikunze kuboneka aho ari ho hose kubera ko zibera mu mapariki kandi ziba zirinzwe ku buryo zitasohoka ngo zibe zaza kwangiriza iby'abaturage.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa utakunda kubona ahantu aho ari ho hose keretse wisuriye pariki y'Igihugu kuko ari ho honyine ushobora kuzibona ariko ahandi hose ntazo wabona.

Nutegereza ukitonda neza, urabona izi nyamaswa zidakunze kugaragara aho ariho hose kubera y'uko uwageze muri pariki y'Igihugu niwe wenyine ushobora kubonamo izi nyamaswa.

B,urya urukundo si urw'ababyeyi n'abana gusa burya n'inyamaswa nazo zigira urukundo mu buryo butunguranye ndetse bunatangaje kubera ko iyo uzirebye ubona zikundana, ntizishobora kwemera ko umwana wazo ushobora kuba wamugirira nabi.